Inyubako yateraniyemo abantu b'ingeri nyinshi abagabo n'abagore, bari mu nama ubona ko harimo umugabo urimo gutanga igitekerezo ufite indangururamajwi, arimo kuvuga ibyo atekereza.

Inyubako irimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye nk'abasaza, abakiri batoya, abadamu, abazungu n'abirabura bicaye batuje bakurikiye imbere ibyo babwirwa cyangwa se icyibarangaje imbere.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ingeri zitandukanye haba abagabo abagore n'abakobwa ndetse n'abasore kikaba giteguye neza cyane mu buryo bunogeye ijisho buri wese yakwifuza kucyicaramo, ameza akirimo ateguyeho ibitambaro bifite amabara atandukanye nk'icyatsi kijimye umweru ndetse n'andi.

Abagabo batatu bambaye amakote basa neza rwose, bisa nkaho bari mu nama, biragaragara ko hari uwo bateze amatwi, urimo kuvuga, biteretse amazi ndetse n'imitobe amakayi n'amakaramu ndetse n'ameza ameze neza.

Abantu benshi cyane, bambaye imyenda y'ubururu bicaye ahantu mu nzu nziza, bimeze nk'aho hari inama kurikira, biteretse amazi yo kunywa, intebe nziza zisa n'umuhondo, bamwe bari mu kwandika abandi bari mu gusoma ibyanditse.

Abantu benshi bicaye mu nzu nziza b'ingeri zitandukanye harimo abagabo n'abagore, imbere yabo biteretse uducupa tugiye turimo amazi yo kunywa y'Inyange, bamwe bari mu kwandika abandi bafite imashini imbere yabo, abandi barakurikiye barimo kumva ibivugirwa imbere yabo.

Abagore batatu bicaye mu ntebe nziza cyane, icyumba cyiza, biteretse amazi ameze neza, bafite ibikapu byiza, amakaramu mu ntoki n'amakaye imbere yabo, bicaye no ku meza ameze neza rwose.

Inyubako nziza irimo abantu batandukanye bitabiriye inama, buri wese yiteretse agacupa k'amazi, hari televiziyo imbere yabo bafite buri umwe indangururamajwi, hari abari kwandika hakaba n'abandi bakurikiye ibiri kuvugwa.

Abagabo bane bambaye neza cyane, babiri bambaye amakote abandi babiri bambaye amashati, bimeze nk'aho bari mu nama bafite ibyo bakurikiye, umwe afite imashini, buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye.

Abadamu batandatu harimo abakuze n'abakiri batoya, bicaye ahantu heza cyane mu ntebe nziza ziboneye amaso buri wese yakwifuza kwicaramo, harimo umwe wambaye isaha y'umuhondo ufite telefone y'umukara, undi akaba ateze asa n'abasilamu yambaye imyenda y'umuhondo akaba yakenyeye na mugenzi we bicaranye.

Inyubako ifite umuryango ukinguye, uwo muryango ukaba ufite ukaba umanitseho ibyapa, biranga ibikorerwa muri uwo muryango, bisa nkaho bacuruza serivise z'amabanki agiye atandukanye.

Umunara wubatse ahantu heza mu murima w'ibigori bitari byera igiti cy'ururabyo cyatangiye kuraba uturabo tw'umuhondo, iruhande rwabyo hari inyubako harimo imwe isakaje amategura.

Inyamaswa y'intare y'ingore, iri mu giti bisa nk'aho iri muri Parike runaka ariko mu gihugu cy'u Rwanda. Ahantu hasa neza cyane, ibyatsi, ibihuru n'ibindi byinshi.

Ibikorwa remezo bya Guverinoma abana b'abanyeshuri bicaye mu ishuri imbere yabo bafite imashini zifashishwa mu myigire yabo babona ko bahuze barimo babyishimiye.

Ipoto y'amashanyarazi, igiti cy'imyembe, urugo rw'imiyenzi, indabyo, ndetse n'inzu irimo urusinga rw'umuriro w'amashanyarazi, na ampuru itanga rwa rumuri ruturuka ku muririro w'amashanyarazi.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi zohereza umuriro mu ngo zinyuranye zegereye iyo poto, iruhande rwayo hari inzu yubatse neza, ifite irangi ry'umuhondo, ibiti, indabyo nziza ziconze, hakurya hari Umujyi.

Ipoto y'amashanyarazi ishinze mu muma urimo ibyatsi bisa icyatsi, kuruhande hicaye abantu batandukanye, hari igare n'umuyonzi ndetse rikaba ryicayeho n'umugenzi.

Inyubako nziza cyane, hejuru yayo hakaba ibyuma bishyushye amazi, igiti gitwara umuriro, indabyo nziza zisa nk'icyatsi, harimo n'akandi gasa nk'iroza.

Umuhanda wa kaburimbo, ipoto y'amashanyarazi itwara umuriro mu ngo, igipangu cyubakishije amabuye, gifite urugi rw'ubururu, imbere yacyo hari ubusitani burimo indabyo, ibyatsi na pasiparume.

Ikigo cy'ishuri cyubatse ahantu heza cyane rwose hanogeye ijisho, kirimo inyubako zigeretse zifite amabati atukura, hejuru hariho ibikoresho bishyushye amazi, hari amataburiya abarimu bambara ameshe, amanitse ku migozi , hakabamo imodoka, gifite amajaride agiye atandukanye meza cyane.

Inyubako ebyiri zubatse mu buryo bumwe, ubusitani burimo ibyatsi bitoshye, itiyo ijyana amazi aho imodoka ziparika, hasakaye n'amabati.

Aha ni ukwamamaza ibyiza bya Radiyanti yacu, aho bavuga ko ibihe nk'ibi bakagenda bavuga bataka Radiyanti harimo umugore n'umugabo, umusaza n'umukecuru bishimanye kubera bafite ubuzima bwiza, bakagushishikariza niba ushaka kugira icyo ugira kanda akanyenyeri maganatatu na mirongo itatu na rimwe.

Urupapuro rumwe rwo mu igazeti ya Leta, ya bibiri na cumi n'umunani, rugaragaraho ingingo ya karindwi gukoresha igitinyiro, ibyo bikaba bisobanuye mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'igifaransa.

Itsinda ry'abantu bane, ririmo abagabo babiri n'abagore babiri, bambaye amakanzu y'umutuku, bambaye ingofero z'umukara, hagati harimo akabara k'umuhondo, birasa nk'aho ari abacamanza barimo guca urubanza, imbere yabo hari uturangururamajwi ndetse n'ameza duteyeho bisa neza.

Urupapuro rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, rukaba rwaravuye mu igazeti yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, rukagaragaza buri ngingo n'umutwe mu rurimi rw'Icyongereza, Ikinyarwanda ndetse n'Igifaransa.

Imodoka abantu batatu harimo umugore wambaye amapingu n'umwambaro wambarwa n'imfungwa ari kumwe n'undi mukobwa w'umucungagereza inyuma yabo hari umugabo hanyuma nanone inyuma yabo hari inyubako ikinguye.

Imodoka ya polisi iparitse imbere y'inyubako igeretse nziza iryoheye amaso, imbere ya banki yitwa Zigama ishami rya Muhanga.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bwiza cyane buboneye ijisho buri wese yakwifuza kuba yayibamo, cyangwa akayigura, cyangwa se akaba yayubaka, ifite amabara atandukanye nk'umukara n'umweru, imbere yayo haparitse ikimodoka cy'igifaru cyiza cyane cy'umukara, iruhande rw'iyo modoka hakaba hari umupolisi, bisa nk'aho ari mu kubaza ibyangombwa.

Abagabo babiri bambaye amakasike mu mutwe, amasarubeti n'inkweto zifunze, bafite imipira yohereza amazi bisa nkaho bashobora kuba bari mu kuzimya umuriro, ahantu waba watse.

Umugabo wambaye neza cyane, wambaye amarinete y'ikote karavate n'ishati y'umweru, witeretse agacupa k'amazi, imbere ye hari indangururamajwi, bisa nk'aho hari ikiganiro arimo gutanga cyangwa se ari mu nama runaka.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo, abagore, abakobwa, harimo abakuze ndetse n'abakiri batoya, bicaye mu ntebe nziza, biteriretse amazi ndetse n'udukombe, imbere yabo hari indangururamajwi, birasa nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi ku kibuga ahantu abagabo ndetse n'abakobwa, bari mu kwamamaza umukandida ku mwanya runaka, ubona ko bambaye udupira tw'uwo mukandida ndetse bafite n'ifoto y'uwo mukandida bari kugenda berekana.

Urujya n'uruza rw'imodoka n'abantu, yaba izikorera imizigo ndetse n'ibigendwamo n'abantu ku giti cyabo. Berekeza mu mirimo mu masaha ya mu gitondo, ahantu hagiye hatandukanye.

Imodoka itwara imizigo ,yikorege amatiyo, iri muri kaburimbo, indabyo, ibiti ,inyuma y'iyo modoka ndetse n'uruzitiro ruri mu kigo runaka.

Urujya n'uruza rw'modoka n'abantu, cyane izikorera imizigo, abamotari batwara abagenzi n'abantu berekeza mu mirimo igiye itandukanye, ahantu hubatse inzu nziza cyane bigaragara nk'aho hateye imbere.

Igare ryicayeho umuntu imodoka itwara abagenzi ntoya moto ihetse umugenzi bose bambaye kasike umugenzi ahetse igikapu mu mugongo uruzitiro rukikije ikigo runaka gishobora kuba kirimo kubakwamo inyubako nshyashya.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi rusange ifite amabaragi atandukanye nk'icyatsi kibisi ubururu n'umweru i bifite ibinyoteri by'umutuku inyuma yayo hari ibindi binyabiziga nka moto, igare umunyonzi utwaye akaba yambaye umupira w'ubururu kuruhande akaba ishyamba.

Umumotari kuri moto mu masangano y'umuhanda arimo yitegereza haruguru kugira ngo abone uko atambuka neza nta mpanuka ateje ahantu mu mujyi ndetse anareba ko hari umugenzi yabona.

Imodoka itwara imizigo, umumotari ndetse na moto ye muri kaburimbo, uruzitiro rukikije ikigo runaka, hagati mu kigo harimo indabyo nziza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara imizigo urimo moto irimo kuwugendamo ukagira umuyoboro utwara amazi, wubatse neza hakurya hakaba uruzitiro rw'ikigo runaka.

Abamotari baparitse amamoto yabo bayariho, bategereje abagenzi mu muhanda wa kaburimbo, urimo moto n'imodoka zigendwamo n'abantu ku giti cyabo, inyubako nini cyane kandi ngari yubatse mu buryo bwiza, icyapa cyamamaza ikinyobwa kidasembuye bita Koka ndetse n'ikindi cyapa.

Imodoka z'ingeri zitandukanye, twavugamo nk'izikorera imizigo, izigendwamo n'abantu ku giti cyabo, imifuka y'ibicuruzwa runaka, ibiti na kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibice bibiri, igice kimwe kikaba kirimo umumotari uhetse umugenzi, hagati hakaba harimo ubusitani burimo ibiti bikunze kwitwa umukindo, hepfo hakaba agapoto kariho itara rimurika mu muhanda.

Imodoka zitwara abagenzi rusange, abantu, umupolisi, inyubako ndende zigeretse, ipoto y'amashanyarazi, ishyamba n'imisozi n'izindi modoka zigendwamo n'abantu ku giti cyabo.

Icyapa gisa umuhondo ndetse n'umweru, hagati muri cyo hakaba harimo inyuguti ya Ta mu ibara ry'umukara. Kikaba giteye ku gashyamba iruhande rwa kaburimbo.

Icyapa cy'uruziga mu ibara ry'umutuku, kirimo umubare wa mirongo itandatu wanditswe mu ibara ry'umukara, gisobanura kutarenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Icyapa kiri mu muzenguruko w'ibara ritukura, hagati hakaba harimo umubare mirongo itandatu, mu ibara risa n'umukara, ariko mu byukuri byose bikaba biri mu kindi gisa n'umweru.

Icyapa gisa nk'ubururu kirimo inyuguti ya pa, kigaragaza ko ikinyabiziga runaka cyahagarara, abantu b'ingeri zitandukanye, amatara, ibiti, imodoka mu muhanda ndetse na moto.

Icyapa kiri mu mabara atandukanye nk'umuhondo, umukara, kivuga kugenda gahoro cyane bitewe n'ahantu ugeze kuko bishobora kuba byateza ibibazo ugumye kuguma ku muvuduko uriho.

Icyapa kigaragaza igororero rya Nyamagabe, inzu iri hepfo yacyo, amabara meza agisize, ibiti haruguru y'umukingo, umuhanda werekezayo.

Icyapa cya mpande enye kirimo inyuguti ya pa mu ruziga rutukura, handitsemo amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, asobanuye ko nta parikingi ihari.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari babiri bari kumamoto yabo, icyapa gisa nk'umutuku cyanditseho guhagarara mu rurimi rw'amahanga, jaride irimo ibiti by'amoko agiye atandukanye ndetse n'indabyo ziterwa ku muhanda.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga by'amoko atandukanye, nka moto ziri kumwe n'abamotari bazo, imodoka zigendwamo n'abantu ku giti cyabo, inyubako nziza zigeretse, zigiye ziriho ibyapa bigaragaza ibizikorerwamo.

Imodoka nziza iri muri kaburimbo, inyubako zigeretse zisa neza, icyapa cyanditseho Nyarutarama, insinga ziri hejuru y'iyo nyubako ndetse n'ipoto zitwara izo nsinga.

Imodoka z'amoko atandukanye ziparitse mu muhanda w'igitaka, imbere y'inyubako z'ubucuruzi hari umuntu wicaye, abandi babiri barimo kugenda, hari igiti cy'icyatsi n'inzu ifite urugi rwa ferabeto.

Inyubako yubatse neza, iri ahantu heza, ifite imiryango myinshi ndetse igaragara neza, ikorerwamo n'abacuruzi bagiye batandukanye, buri umwe wose ukaba ufite icyapa kiranga ibihacururizwa cyangwa se ibihakorerwa.

Igipangu cyubatse ahantu heza, imbere muri icyo gipangu harimo inyubako nyinshi zigeretse zubatse mu buryo bwiza, ahantu umuntu wese yakwifuza kuba, gikikijwe n'indabyo, iki gipangu kikagira urugi rugari rwiza cyane.

Igipangu, inzu ifite amabati atukura, iriho antene y'igisahane, umujyi hakurya yaho urimo inyubako zigeretse, ugiye urimo ibiti bigiye bitandukanye.

Ibikorwa remezo, umumotari uparitse muri kaburimbo udafite umugenzi, icyapa kiranga uwo muhanda, inzu isa neza ikikijwe n'ubusitani bw'ibiti ndetse n'indabyo, imbere yayo haparitse imodoka, kandi haruguru yayo hari izindi nyubako.

Inyubako nziza cyane igeretse kenshi, ifite amabara atandukanye n'ibirahure bisa nk'ubururu, imbere yayo hari ipoto iriho itara ribonesha mu muhanda n'insinga zitwara amashanyarazi n'igiti kitari kimwe.

Umumotari arimo yumvikana n'umugenzi kugira ngo amutware aho yifuza, moto zimwe zimenyerewe nk'izitwara imizigo, umutaka ndetse n'umukozi w'ifatabuguzi rya MTN urimo gucuruza amayinite, abantu bajya mu mirimo igiye itandukanye.

Umuhanda urimo moto y'ubururu yikorera imizigo ukaba uteyeho indabyo ukikijwe n'ibipangu bisize amabara y'umuhondo ndetse n'ibindi bifite inzugi z'umutuku, inzu zubatsemo bifite amabati atandukanye nk'ashaje ndetse n'akiri mashyashya,

Kaburimbo irimo imirongo icagaguye, imodoka, abamotari, amatara yo ku muhanda n'ibiti hakaba n'amatara koranabuhanga, agaragaza niba hari ikinyabiziga kigomba gutambuka cyangwa ari aho abanyamaguru bagomba kugenda, akaba arimo kwaka ibara ry'icyatsi.

Kaburimbo irimo ubusa, hakurya y'uwo muhanda hakaba hari agashyamba karimo ibyatsi bitoshye, hakurya na none hakaba umujyi urimo amazu, imodoka mu muhanda n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imodoka nto zigendwamo n'abantu ku giti cyabo, moto zitwaye abagenzi n'izidatwaye abagenzi, inyubako zigeretse, amatara manini cyane, ishyamba ndetse n'umuhanda wa kaburimbo.